Hno ni ku kigo cy'amashuri. Iki ni ikigo cy'amashuri abanza, kuri iki kigo cy'amashuri hariho icypa kigaragaza inshingano n'indangagaciro ziranga abarezi mu mashuri.

Hano hantu ni mu ishuri. Muri rino shuri hateretse amamashini y'ubwoko butandukanye. Aya mamashini adoda imyenda, aya mamashini kandi abanyeshuri bayigiraho.

Aya ni amasaha yo kurya, abanyeshuri bicaye aho babaha ibiryo byabo biteretse kumeza n'amasahani n'ibikosi byabo biteretse ku meza bari kumwe n'abayobozi babo.

Aba banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bafite amashuri ya etaje, aba banyeshuri bigana iniforume z'ubururu n'umweru, aba banyeshuri bari gucurira, bari gukoma amashyi.

Iyi ni inzu. iyi nzu bayita ishuri. Muri iyi nzu harimo intebe abanyeshuri bicaraho, harimo n'ameza bandikiraho, iyi nzu imbere harimo ikibaho, inzu ifitebe n'amadirishya.

Umwuga wo kudoda ugenda utezwa imbere ku buryo abana basigaye babyiga mu mashuri yisumbuye maze bagahabwa impamyabushobozi.

Aba bantu ni abanyeshuri. Aba banyeshuri biga imyuga, muriyo myuga harimo imyuga yo guca inzara no kuzoza no kuzisiga. Habamo imyuga yo gusuka imisatsi.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri y'isumbuye bambara imyenda isa n'umweru ndetse n'umukara, bari kubaza ibishushanyo.

Aba ni abanyeshuri. Biga bifashishije ikoranabuhanga bakoresha machine. Aba banyeshuri bambara n'amakaruvati, bambara n'amashati y'umwe hejuru.